Umuganga wambaye umwenda w'ubururu ndetse wicaranye n'umusaza wambaye ishati y'umutuku, ari kumufata ibipimo. Akenshi abo baganga ba mbere, bazwiho kuba bafata ibipimo byo kugira ngo babashe kuba bamenya uko umubiri uhagaze, bityo ibyo bipimo bigaherwaho, kugira ngo bibe byafashe umuganga mukuru, kuba yakwita ku murwayi.

Imiti ipanze ku kameza ikunze gukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, harimo kwisiga ndetse no kunywa. Ni imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo iz'uruhu, umutima, rubagimpande ndetse n'indi ndwara yose waba ufite. Kandi iyi ni imiti ikunze gukorwa hakoreshejwe ibimera, ndetse n'ibihingwa. Akenshi iyi miti tuyita imiti gakondo.

Itsinda ry'abantu umunani, harimo abagore ndetse n'abagabo bari gukora igikorwa cyo gutembera, aba ngaba abantu dukunze kwita abakerarugendo bagenda batembera mu bihugu bitari ibyo babamo cyangwa se bavukamo kugira ngo barebe iterambere ryo muri ibyo bihugu uko rimeze.